Icyumba cy'inama kirimo abantu b'ibitsina byombi, abagabo ndetse n'abagore, iruhande rwa buri muntu cyangwa se imbere ye hateretse icupa ry'amazi ririmo amazi ndetse bamwe muri bo bafite ibikoresho by'itumanaho, ari byo inziramugozi.

Icyumba cy'inama kirimo abantu b'ibitsina byombi, harimo abagabo ndetse n'abagore, imbere ya buri umwe, hateretse icupa ry'amazi mbese bamwe muri bo, bafite ibikoresho by'itumanaho harimo mudasobwa.

Icyumba cy'inama kirimo abantu b'ibitsina byombi, abagabo ndetse n'abagore bicaye barebana, imbere y'umwe muri bo cyangwa se bamwe muri bo hari mudasobwa ndetse n'icupa ry'amazi, riteretse imbere yabo.

Icyumba cy'inama kiri kuberamo inama. Harimo abantu b'igitsina gabo, abenshi ni bo biganjemo. Buri umwe imbere ye afite aho yandika ibiri kubera muri iyo nama. Bambaye imyambaro itandukanye, harimo abambaye iy'imikara, iy'imituku ndetse n'andi mabara menshi.

Icyumba k'inama kirimo abantu b'ibitsina byombi, abagabo ndetse n'abagore, bambaye imyambaro isa n'ibara ry'ubururu ndetse imbere ya buri umwe hateretse icupa ry'amazi ndetse hari n'abafite ibikoresho by'itumanaho, imbere yabo birimo mudasobwa ndetse n'inziramugozi.

Umugabo uhagaze imbere, akaba yambaye imyambaro n'imyenda y'umukara ndetse yambaye n'uturinda amaso mu maso, akaba afite udufata amajwi mu kiganza bisa nkaho hari amagambo arimo aganiriza bagenzi be.

Icyumba cy'inama kirimo abantu b'ibitsina gabo. Ndetse buri muntu afite icupa ry'amazi rimuteretse imbere. Riteretse kuri ayo meza, ari imbere yabo. Ndetse bigaragara ko bari kuganira...

Imbaga nyamwinshi y'abantu bicaye munsi y'ibiti ndetse barimo baganirizwa. Ni abantu benshi bivanzemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo. Bigaragara ko bari kuganira ku ngingo runaka.

Icyumba cy'inama kirimo abantu b'ibitsina byombi, abagabo ndetse n'abagore. Bose bicaye ku ntebe z'umukara ndetse kandi bicaye barebana. Imbere ya buri umwe hari icupa ry'amazi.

Icyumba cy'inama kirimo abantu b'ibitsina byombi abagabo ndetse n'abagore, benshi muri bo bambaye imyambaro y'ibara ry'ubururu ndetse bamwe muri bo bafite uducupa tw'amazi duteretse imbere yabo.

Icyumba cy'inama kirimo abantu b'ibitsina byombi. Buri muntu imbere hari agacupa k'amazi, ndetse imbere y'umuntu umwe uri imbere afite agakururamajwi.

Icyumba cy'inama kirimo abantu b'ibitsina byombi, harimo abagabo ndetse n'abagore. Iruhande rwa buri muntu hateretse icupa ririmo amazi, ndetse umwe muri abo bagore afite igikoresho cy'itumanaho mu biganza.

Icyumba kirekire kirimo mudasobwa. Hakaba harimo n'abantu barimo bakoresha izo mudasobwa. Ni abantu b'ibitsina bombi: ibitsina gabo ndetse n'igitsina gore. Harimo n'umuntu mukuru muri bo urimo ugenda abereka, bisa nk'aho ari we ubayoboye.

Icyumba rusange giteretsemo ibikoresho by'itumanaho, harimo mudasobwa, ndetse n'inzira mugozi. Muri icyo cyumba harimo abantu b'ibitsina byombi, abagabo ndetse n'umukobwa, bigaragara ko bari kuganira ku ngingo runaka.

Ibinyabiziga bifasha mu kwiga ndetse no mu gushaka ibyangombwa byo gutwara ibinyabiziga. Hakaba harimo ipikipiki ndetse n'imodoka bigiramo kugira ngo bahabwe urwo ruhushya rwo gutwara ibinyabiziga.

Itangazo riturutse mu buyobozi bw'abakozi, rigaragaza uko iminsi rusange y'ibiruhuko iteganyijwe ndetse ni mu mpera z'umwaka kuko bari kwifuriza abakozi umwaka mushya muhire.

Itangazo rya leta y'u Rwanda rigaragaza uko abakozi muri rusange ibiruhuko byabo bigiye biteganyijwe, kuva ku wa mbere kugeza ku y'indi minsi ndetse bigaragara ko bari mu mpera z'umwaka ko barimo bifuriza abakozi umwaka mushya muhire.

Igiti kirekire cy'ibara ry'icyatsi. Iruhande rwacyo hari inzira y'amashanyarazi. Ishinzwe gutwara amashanyarazi iyakura ahantu hamwe, iyajyana ahandi. Ndetse hasi gatoya hari uturangacyerekezo turi iruhande rw'umuhanda.

Imodoka ishinzwe gutwara abagenzi iri mu muhanda nyabagendwa irimo itambuka, iruhande rw'uwo muhanda, hari abantu bashinzwe gutwara abagenzi bafite ikinyamitende cy'ibiziga bibiri, kibafasha muri ubwo butwazi bw'abantu ndetse n'ibintu.

Ubusitani bwiza burimo ibiti by'amabara y'icyatsi hakaba harimo n'ubwatsi busa nkaho bwakubiswe n'izuba ndetse harimo n'abashinzwe gutanga urumuri.

Ibikoresho by'amashanyarazi biri ahantu hamwe, byubakiye ahantu hamwe, bishinzwe gutanga amashanyarazi cyangwa se guhindura amashanyarazi kugira ngo agere ku baturage uko biteganyijwe ndetse n'imimaro yabyo uko iri.

Umuyoboro muremure w'amashanyarazi ushinzwe gutwara umuriro uwuvana mu duce tumwe uwujyana mu tundi duce. Ndetse iruhande rwaho hari utundi tuyoboro dutoya, two dushinzwe gukwirakwiza amashanyarazi ava kuri uwo muyoboro munini.

Inzu ifite amabati y'umutuku, ifite urugo ruriho amadirishya y'umukara, harimo inzira yamashanyarazi iciye hejuru, imbere y'urwo rugo, hariho imodoka iri mu muhanda isa ibara ry'umukara.

Umuyoboro w'amashanyarazi, utwara amashanyarazi uyakora mu mwanya umwe uyajyana ahandi ndetse iruhande rwaho hari inyubako nziza cyane y'ibara ry'umweru ndetse ikaba ifite icyapa hejuru.

Amazu meza akikije, hagati muri ayo mazu harimo ubusitani burimo ubwatsi bufite ibara ry'icyatsi ndetse imbere gatoya hari abantu bicaye n'abandi bahagaze.

Icyumba gitegerejwemo abahabwa ubufasha bw'ubuvuzi bw'ibanze harimo abantu b'ibitsina byombi abagabo ndetse n'abagore imbere gatoya bisa nkaho hari umuntu wambaye imyenda y'umweru ariwe ushinzwe gutanga ubwo bufasha.

Umuntu w'igitsina gore, uhagaze imbere yambaye imyambaro y'amabara atandukanye, yambaye n'uturinda amaso ndetse imbere ye hari agafata amajwi bigaragara ko hari ibiganiro ari gutanga.

Umuntu w'igitsina gore ufite imisatsi miremire y'umukara, wambaye ishati y'umutuku ndetse imbere hakaba harimo umwambaro w'ibara ry'umweru ndetse uyu mumama bigaragara nk'aho akuze atakiri mu kigero cy'abantu batoya.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama, bambaye amakanzu, harimo umuntu uri imbere, w'igitsina gore amanitse akaboko k'iburyo, ndetse imbere ye hari ibendera, ry'Igihugu cy'u Rwanda, uyu muntu amanitse akaboko k'iburyo arimo arahira.

Igikoresho gishinzwe kurwanya ndetse no gukumira inkongi y'umuriro, kikaba gifite ibara ry'umutuku, bizwi nkaho kino gikoresho gikoreshwa mu gutwara amazi, kugira ngo babashe kuzimya iyo inkongi y'umuriro igihe ibayeho.

Kizimyamwoto ebyiri zishinzwe kurwanya no gukumira inkongi y'umuriro. Ndetse n'umupira w'amazi ukoreshwa igihe hagamijwe kuzimya wa muriro gihe wabonetse.

Abashinzwe umutekano bahagaze ku muronko, bambaye inkweto zisa ndetse n'impuzankano zisa. Bose bafite intwaro mu biganza byabo, ikiganza cy'iburyo gifashe hasi ndetse icy'ibumoso ifashe hasi cyane.

Imbaga nyamwinshi y'abantu igaragaza ifoto y'Umukuru w'Igihugu cy'u Rwanda. Ndetse iruhande hari amabendera agaragaza ishyaka ry'Umukuru w'Igihugu cy'u Rwanda.

Abantu b'ibitsina byombi abagore ndetse n'umugabo, bose bamanitse ibiganza by'iburyo, iruhande rwa buri muntu hari ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda ndetse imbere ya buri muntu hari udufata amajwi.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga bibiri bitambuka, ari byo imodoka ndetse hakaba harimo n'umugenzi urimo utambuka muri uwo muhanda, iruhande gatoya rw'uwo muhanda, hari ibiti birebire by'ibara ry'icyatsi.

Umuhanda nyabagendwa urimo ikinyabiziga gishinzwe gutwara abagenzi ki bakura mu mwanya umwe kibajyana ahandi, ndetse iruhande rw'uwo muhanda, hari umuntu wambaye imyambaro y'ibara ry'ubururu urimo atambuka.

Umuhanda nyabagendwa, uhagazemo ibinyabiziga bitwara imizigo, muri ibyo binyabiziga, harimo igifite ibara ry'umweru kiri inyuma, ndetse iruhande rw'uwo muhanda, hari ibintu bitwikiriye, bigaragara ko ari imizigo.

Umuhanda nyabagendwa urimo ikinyabiziga kinini, kiri mu bwoko bwamakazungu, kiri mu muhanda kirimo gitambuka, mbere gatoya, hari ikinyabiziga cy'imitende ibiri gitwaye umuzigo.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka y'imizigo. Ifite ibara ry'ubururu ndetse imbere yayo muri uwo muhanda harimo izindi modoka zirimo zambuka. Zimwe zijya ibumoso, izindi ziza iburyo.

Ikinyabiziga cy'ubwoko bwa makazungu, kiri mu muhanda kirimo gitambuka cy'ibara ry'umutuku ndetse inyuma yacyo hari ikindi kinyabiziga cy'ibara ry'icyatsi. Inyuma y'uwo muhanda hari ibiti birebire.

Umuhanda nyabagendwa, urimo ibinyabiziga bishinzwe gutwara imizigo, harimo igifite ibara ry'umutuku ndetse n'ikindi kinyabiziga, gifite ibara ry'umuhondo imbere, hakurya y'uwo muhanda, hari ibiti birebire biteye.

Ikinyabiziga kiri mu muhanda nyabagendwa gitwaye amatongo. Ayo matungo arimo ni inka, ndetse gifite ibara ry'umweru, umukara, ndetse n'ubururu. Iruhande rw'uwo muhanda, hari ibiti birebire by'ibara ry'icyatsi.

Amapikipiki ahagaze iruhande rw'umuhanda nyabagendwa, ndetse ashinzwe gutwara abagenzi abakura mu mwanya umwe abajyana ahandi, ndetse imbere y'aho ahagaze, hari inyubako ndende bigaragara ko ari mu masaha ya ni mugoroba.

Umuhanda nyabagendwa, urimo ibinyabiziga by'ibinyamitende by'ibiziga bibiri ndetse bitwaye abantu. Inyuma gatoya, hari ibinyabiziga by'ubwikorezi bitwaye imizigo runaka.

Umuhanda nyabagendwa, urimo imodoka nini y'ubwoko bwa makuzungu itukura ndetse hari n'umuntu uri ku ipikipiki urimo utambuka muri uwo muhanda. Imbere y'uwo muhanda gatoya ku ruhande hariho ibiti birebire by'icyatsi.

Umuhanda nyabagendwa urimo ikinyabiziga cy'ubwikorezi gitwaye imizigo ndetse gifite ibara ry'umweru, imbere gato y'uwo muhanda hari ibinyabiziga bishinzwe gutwara abagenzi zibakura mu mwanya umwe bibajyana mu wundi.

Mu masaha ya nijoro umuhanda nyabagendwa, abantu bari ku binyabitende by'ibiziga bibiri ndetse iruhande rwabo hari ibyapa biranga ahantu ndetse n'ibikorwa remezo biba bikorerwa aho hantu, hakaba hari n'imodoka ziri guturuka hirya itanga urumuri.

Ubusitani bwiza cyane burimo ubwatsi bw'icyatsi ndetse muri ubwo busitani hicayemo abantu b'igitsina gore. Iruhande rw'ubwo busitani hari ibiti birebire by'imikindo ndetse ruguru gatoya hari amazu.

Ikiranga icyerekezo kiri iruhande rw'umuhanda gifite ibara ry'umutuku, umweru ndetse n'umukara, kikaba kiranga ko imbere hari imihanda myinshi itandukanye, ikiranga cyeyerekezo kiri mu busitani bufite ubwatsi bw'icyatsi.

Ikirangacyeyerekezo kiri mu buso bw'ibara ry'ubururu, kikaba gifite ibara ry'umweru, iki kiranga cyeyerekezo kigaragaza umuhanda ushamikiye ku wundi, bigaragara nk'aho kiyobora abagenzi barimo bagenda mu handi.

Umuhanda mutoya urimo abagenzi batambuka bajya iburyo ndetse n'ibumoso, hejuru gatoya hari umuyoboro w'amashanyarazi uyatwara uyakura ahantu hamwe uyajyana ahandi, iruhande rw'uwo muhanda hari amazu bigaragara ko amwe ari ay'ubucuruzi.

Umuhanda mutoya urimo ipikipiki itwaye umuntu, imbere ye hari amazu y'ubucuruzi ndetse n'inzira zitwara amashanyarazi. Imbere muri uwo muhanda harimo abantu, bigaragara ko bamwe bari kugenda abandi bahagaze.

Inyubako ndende ndetse imbere y'iyo nyubako hari urugo rufite indabo ku mpande. Hakaba hari n'umuntu iruhande rw'urwo rugo, arimo atambuka asa n'ugana ku muryango.

Inyubako yo gusengeramo iri hakurya y'umuhanda, ikaba ifite urugo rw'umweru, imbere y'iyo nyubako hari ibiti birebire by'ibara ry'icyatsi ndetse muri uwo muhanda, harimo ipikipiki itwaye umugenzi. Ndetse hakaba hari n'umugenzi urimo utambuka imbere y'urwo rugo rwo gusengeramo

Urugo rurerure rufite indabyo imbere yaho ndetse ku ruhande hari ibiti birebire by'ibara ry'icyatsi, imbere y'urwo rugo hari umuyoboro w'amashanyarazi, ushinzwe gutwara amashanyarazi uyakura mu mwanya umwe ayajyana ahandi.

Inyubako nziza yo guturwamo ifite amarangi y'amabara atandukanye ndetse ikaba ifite urugo rufite ibara ry'umukara ndetse n'andi mabara agiye avanzemo ku buryo bushimishije.

Igice cyo hejuru mu nzu kirimo itara ririmo ritanga urumuri, bisa nkaho iki gikuta gifite ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'umukara rikoze cyangwa se ryubatse kino gikuta.

Umuhanda nyabagendwa urimo igare rihetse umuzigo. Ndetse hejuru hari ikiraro na cyo cy'umuhanda nyabagendwa gicaho ibinyabiziga bitandukanye harimo imodoka.

Umuhanda mutoya uri mu ikinyabiziga cy'ikinyamitende cy'ibiziga bibiri, hakaba harimo n'abantu bawicayemo n'abandi bahagaze ndetse ruguru y'uwo muhanda hari umuhanda munini nyabagendwa urimo ugendamo ibinyabiziga bitandukanye.

Umuhanda nyabagendwa, urimo imodoka irimo itambuka. Ndetse harimo umugenzi uhagaze mu muhanda hagati, utegereje gutambuka ajya ku mpera y'umuhanda. Ndetse muri uwo muhanda harimo ipikipiki ihetse umugenzi.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka itwara abagenzi ndetse n'amapikipiki atwara abagenzi. Iruhande rw'uwo muhanda, hari ibinyabiziga bihagaze, harimo ipikipiki ndetse n'imodoka. Hakaba harimo n'abantu batambuka, bagenda.

Umuhanda nyabagendwa, urimo ipikipiki itwaye abagenzi, ndetse hakaba harimo n'ikinyabiziga cy'imitende ibiri, na cyo gitwaye umugenzi, iruhande rw'uwo muhanda, hari ubusitani bwiza cyane buteyemo ubwatsi bw'ibara ry'icyatsi.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo amapikipiki ndetse n'ibindi, amapikipiki akaba atwaye abagenzi, iruhande rw'uwo muhanda hasa n'aho ari ku ruhande, hari ubwatsi ndetse n'ibiti bitarakura.

Mu masaha ya nimugoroba, hariho amatara ari gutanga urumuri, hanyuma mu muhanda nyabagendwa harimo abagenzi bari gutambuka, bambuka umuhanda. Harimo n'imodoka ziri mu muhanda ndetse n'amapikipiki ari mu muhanda arimo atambuka.

Akayira gatoya k'abanyamaguru, gakikijwe n'urukuta rwubakishije amabuye ndetse ku ruhande rwo hepfo hari ubwatsi ndetse n'ibiti bitoya bitarakura, bigaragara ko ari byo bikikije aka kayira k'abanyamaguru.

Inzira nyabagendwa irimo imodoka ndetse n'ipikipiki. Ku ruhande hahagaze umuntu, ahagaze iruhande rw'umuhanda ndetse impande rw'uwo muhanda harimo ibiti byinshi cyane ndetse n'ubusitani.

Umuhanda nyabagendwa uri ahantu hazamuka, harimo ipikipiki itwaye umugenzi ndetse iruhande rw'uwo muhanda mu nzira y'abanyamaguru harimo umuntu umanuka ndetse iruhande rw'uwo muhanda hari ibiti biteye iruhande rwaho.